Ni igikuta cy'inzu gishushanyijeho inyamanswa y'inzovu ifite umutonzi urimo kuvamo amazi kandi kuri icyo gishushanyo cy'inyamanswa ikaba ishushanyije ihagaze mu byatsi, yitwa inzovu.

Ni ijambo ryanditswe mu nyuguti nkuru ndetse rikaba rifite ibara ry'igitare aho ryanditse hakaba hari ibara rya oranje, iryo jambo rikaba rivuga ngo imyitozo.

Ni inyubako y'inzu isakaje amabati y'ubururu, iruhande rwaho hakaba hari ibihombo ndetse n'ikigega gifite ibara ry'umukara. Kuri iyo nyubako hakaba hariho urutsinga rw'amashanyarazi.

Ndi kubona ibishushanyo, harimo intare, imodoka, inka, ibiti ndetse n'agaseke.

Ni ibikinisho by'abana kandi harimo iby'ibikoko bifite amabara atandukanye: iby'icyatsi, iby'igitare ndetse n'umutuku.

Ni ikigo cy'ishuri, imbere hari abana bambaye impuzankano y'ishati y'igitare n'ikabutura y'ubururu, hakaba hashinzemo ipoto ry'amashanyarazi hariho insinga eshatu zijyana umuriro ku mashuri.

Ni abana babiri umuhungu n'umukobwa, umukobwa bambaye ikanzu y'ubururu, umuhungu yamabaye ikabutura y'icyatsi n'umupira w'umutuku, umukobwa afashe urukwavu, inyuma y'aho hari inyubako y'ikiraro kirimo inkwavu ebyiri, gisize irangi ry'igitare, ku ruhande hakaba n'utundi dukwavu turi muri iyo nzu, inyuma hari n'igipangu gisize irangi ry'umuhondo.

Ni inyubako imbere yaho hari ibirabyo by'icyatsi, ni inyubako yubakishijwe amabati y'ubururu kuri iyo nyubako handitseho ijambo rigira riti Nyagatare modern school, imbere y'iryo shuri hahagaze abana batatu, umwe yambaye imyenda y'ubururu abandi babiri begamiye ku nkingi, bambaye ishati z'igitare n'amakatura y'ubururu.

Ni abanyeshuri bicaye mu ishuri bari kureba ku kibaho, bicaye ku ntebe bambaye impuzankano y'igitare ishati z'igitare hasi bakambara ubururu, ku kibaho handitseho imibare icumi, ku nkuta z'ishuri hariho ibishushanyo by'imitwe ya za bakame, inkwavu ndetse hakaba hari na tiripuregisi hejuru.

Ni icyumba cy'ishuri, hakaba harimo amatara arimo kwaka ndetse hakaba hateretsemo n'ameza, ayo meza akaba ateye irangi ry'umuhondo, ubururu n'umutuku ndetse n'intebe zo kwicaraho zifite ibara ry'umutuku.

Ni inyubako ifite imbere hari ibirabyo by'umukindo, hakaba hashashe amapave kandi hakaba haparitse moto iriho kasike z'umutuku ebyiri.

Ni igikuta k'inyubako giteye irange ry'umuhondo kuri icyo gikuta hakaba hashushanyijeho isaha zigiye ziri ku bihe bitandukanye kandi amadirishya yayo akaba asize irange ry'umukara.

Ni igikuta cy'ishuri gishushanyijeho inyamaswa yo mu ishyamba yitwa agasumbashyamba, inyuma y'iyo nyamaswa hakaba hari ikirabyo ndetse n'umuntu ushushanyije ku rukuta rw'inyubako, wambaye karuvati y'ubururu mo imbere mu nyubako hakaba harimo abana bicaye ku ntebe, bambaye amashati y'igitare.

Ndabona icyapa cyanditseho gurupe zikorere Rukomo Nyagatare disitirigiti, inyuma y'aho hari ibiti, hirya y'aho hari ibyatsi, icyo cyapa gifite ibara ry'igitare.

Ni umwarimu n'umunyeshuri, umwarimu akaba yambaye itabuririya y'igitare, umunyeshuri yambaye imyenda y'umukara bakaba bari bose imbere ku kibaho, mwarimu akaba ari kwereka umunyeshuri ibyo akora ku kibaho gifite irangi ry'umukara.

Ni abana b'abanyeshuri batanu, bapfukamye hasi bari kwandika ku kibaho cy'umukara kandi harimo uwakuyemo inkweto, abandi bo bakomeje kwambara inkweto, harimo n'uwambaye ikanzu y'ubururu.

N'abana babiri b'abahungu umuhungu n'umukobwa umuhungu afite ikayi y'umutuku umukobwa afite igitabo cy'ibara ry'icyatsi yambaye ikanzu y'ubururu ,umuhungu yambaye inkweto z'umukara ndetse na kake n'amasogisi y'igitare.

Ndabona ibishushanyo by'ibikoresho bitandukanye harimo microscopi harimo penso harimo irate harimo karikirereta harimo agacongesho harimo ibaga ndetse n'umubumbe mu cyongereza bita golobo.

Ndabona igishushanyo cy'inyamaswa kiri mu ibara ry'umukara ifite umurizo n'amatwi maremare n'umunwa muremure ndetse isa naho kiri gutambuka.

Ndabona iseti irimo amarate, umugoma, agacongesho, kompa n'ikereyo.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri iyo bari kwiga imibare muri ibyo bikoresho hakaba harimo amarate, uducaruziga, agasibisho ndetse n'agacongesho by'umwihariko hakaba harimo n'ikaramu y'igiti izwi kuba yitwa ikereyo.

Ni inyubako y'ikigo cy'amashuri, harimo ubusitani bw'ibirabyo, hakaba harimo n'ibyapa, ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, imbere hakaba hari utuyira tujya muri icyo kigo.

Ndi kubona ikigo cy'ishuri, hariho ibyicungo by'abana ndi kubona umwarimu wambaye itaburiya y'igitare ndetse n'abana bakoze uruziga bafatanye mu kiganza.

Ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, hasi hakaba hari amabuye ateyemo irangi ry'umukara, hakaba hariho icyapa cyanditseho Karangazi.

Ni inyubako ndende iteye irange ry'umutuku, ifite ubusitani n'ibirabyo muri ubwo busitani, hakaba hashizemo icyapa gishushanyijeho umwana.

Ndi kubona ibiziga bibiri, ikiziga kimwe hejuru handitseho seti si, ikindi handitseho seti di, ikiziga cyanditseho seti si harimo rimwe, gatatu, gatanu. Icyanditseho seti di harimo cumi na gatanu, cumi na karindwi na cumi na gatatu, aho bihuriye harimo cumi na rimwe, karindwi n'icyenda.

Ni inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba ifite amabati y'ubururu ndetse ikaba ifite imiryango n'inzugi zirimo ibirahure, imbere yaho hakaba hubakishijejwe amabuye ndetse hejuru y'ayo mabuye hakaba hariho sima.

Nibikinisho by'abana harimo utuziga tubona umubare wa kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi ,utwo dukinisho dufite amabara atandukanye harimo ibara ry'icyatsi ibara ry'umutuku ibara ry'ubururu ibara ry'umuhondo ndetse n'igitaka.

Ni intebe zifite amabara atandukanye, ibara ry'icyatsi, ibara ry'umuhondo, ibara ry'ubururu ndetse n'ameza afite ibara ry'igitare n'umutuku kandi hakaba hari icyumba giteye irangi ry'igitare.

Ni ububiko bw'ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi n'ububaji harimo metero, inyundo, urukezo n'amagaro.

Ni ikigo cy'amashuri kikaba gifite igicumbi hakaba handitseho indangagaciro, iki gicumbi kikaba giteye irange ry'icyatsi, umuhondo, ubururu, imbere y'iryo shuri hakaba hari ubusitani bw'indabyo n'ibyatsi.

Ni abanyeshuri bari kuri asembo, abahungu bambaye kake, abakobwa bambaye kotoni, amakanzu ya kotoni y'ubururu. Abahungu bose n'abakobwa bambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'igitare. Inyuma yaho hari inyubako y'amashuri n'igiti ndetse n'abarimu babiri, umukobwa n'umuhungu bambaye amataburiya y'igitare.

Ni abanyeshuri bicaye hasi, bambaye amashati y'igitare, harimo abambaye n'imipira yimbeho y'icyatsi bicaye munsi y'ibiti.

Ndi kubona abanyeshuri bamwe bambaye amashati y'igitare abandi bambaye tisheti z'umuhondo, bicaye munsi y'igiti cya gasiya, hirya imbere yabo hari itente ndetse na mikoro.

Ni abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'igitare ,hakaba n'amapantaro y'umukara ,umwe yicaye arahindukiye ari kureba inyuma undi yazamuye ibiganza.

Ni abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'igitare n'amajipo ya kake, bambaye amasogisi y'igitare bahagaze ku mapave, inyuma yabo hari ibiti birebire kandi imbere yabo hari indabo.

Ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifiteho amarange y'umuhondo ndetse ku madirishya hakaba hateye irangi ry'ubururu, imbere y'iyo nyubako hakaba hari abantu bayihagaze imbere.

Ni umuryango w'ikigo cy'amashuri, uwo muryango ku nkuta zawo hakaba hubakishijwe amakaro y'ibara ry'itare n'umukara ndetse icyo gipangu kikaba giteye irangi ry'umuhondo werererutse, imbere y'uwo muryango hakaba hashashe amapave.

Abanyeshuri bicaye mu byatsi bambaye amashati yi'gitare bari imbere yamashuri hari umupolisi uhagaze hagati yabo, bari munsi y'ibiti kandi inyuma yabo harimo abambaye karuvati ndetse bambaye n'amashati y'umweru.

Ni abanyeshuri bari mu ishuri kandi abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'ishati y'igitare ndetse n'ipantaro ya kake, hakaba hari umwe wicaye ku meza wambaye umupira w'imbeho ufite ibara ry'umukara, ndetse muri iryo shuri hakaba harimo irangi ry'umuhondo.

Na banyeshuri bicaye hasi, bambaye impuzankano, hejuru 'gitare, hasi ikijuju, bambaye inkweto z'imikara, bamwe bicaye kuri sima, abandi bicaye muri pasiparume, aho ngaho bicaye muri pasiparume, harimo igiti cy'umukindo, imbere yabo hari umuhanda w'amapave.

Ni umunyeshuri uri imbere ku kibaho w'umukobwa akaba yambaye impuzankano y'ishati y'igitare ndetse n'ijipo ya kake akaba ari ku kibaho ndetse inyuma ye hakaba hari idirishya ndetse iryo shuri rikaba ryubakishije amatafari ahiye.

Ndiku kubona abana batatu babiri bafashe ipandi role yanditseho ngo kwibuka ,kushura ya makumyabiri n'umunani ,kwibuka twiyubaka handitseho colegeya sete Andere, ndi kubona amatete ane afite ibara ry'igitare ndetse n'ibirabyo..

Ni abana babanyeshuri, bambaye impuzankano itandukanye, bamwe bambaye imipira y'ubururu, undi yambaye ishati y'igitare, hakaba umuhungu ubarimo wambaye umupira w'umuhondo yakunje akaboko.

Ni abagabo batandatu ,bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umukara hasi, ikagira irangi ry'umuhondo ndetse n'irangi ry'ubururu risize ku byuma bifasheho ibirahure kandi bahagaze kuri sima, imbere y'iyo nyubako.

Ni abanyeshuri bambaye amashati y'igitare, abambaye imipira y'imbeho y'umukara n'umwarimu wambaye ipantaro y'igitare n'ishati y'umukara, afite mikoro, iryo shuri risize irange ry'igitare na giriyaje zisize ibara ry'ubururu.

Ni abanyeshuri bambaye imipira y'igitare, bambaye amapantaro ya kake, bateruye indabyo zifashe ku migano, inyuma y'aho hari umuntu wambaye itaburira n'inkweto z'igitare kandi iburyo bwabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye bahagaze ku mapave, imbere yabo hari umuntu wambaye ikanzu irimo ibara ry'iroza.

Ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ikigega iruhande kandi gifite ibara ry'umukara, inyuma y'iyo nyubako hakaba hari ibiti birebire bya gasiya bifite indabo z'umuhondo.

Ni abantu, bari imbere mu nyubako irimo, parafu kandi, harimo n'amatara, hasi hari intebe z'ubururu, kandi n'ameza ariho ibitambaro by'ubururu.

Abana babayeshuri harimo abakobwa n'abahungu bamwe bambaye amashati y'umuhondo hasi bambaye amapantaro yumukara abandi bambaye amashati y'icyatsi n'amapantaro yumukara inyuma yaho hari ibiti by'inusu ndetse n'izamu rya basiketi.

Ni abanyeshuri bambaye inifomu y'igitare, hasi bambaye amajipo n'amapantaro y'ubururu bwijimye bari gukoma amashyi, harimo n'umuzungu wambaye isaha ku kuboko y'umukara ndetse n'umupira w'umutuku bose basetse, inyuma hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Ni abanyeshuri bicaye mu ishuri, abahungu n'abakobwa, bamwe bicaye hasi ku ntebe, undi arahagaze afashe mikoro y'ibara ry'umukara, bambaye amashati y'mweru.

Ni abantu batatu: abagore babiri n'umugabo umwe, bambaye amajiri y'umuhondo, bari mu nyubako ifite inkingi zisize ibara ry'umuhondo ndetse n'utwuma dusize ibara ry'ubururu, iyo nyubako ikaba yubakishije amatafari ahiye.

Ni abanyeshuri bambaye amashati y'igitare n'amajipo y'umukara, hari loji imbere yabo, hari kompiyuta na porojegiteri, muri iryo shuri barimo harimo ikibaho cy'umukara n'irangi ry'umuhondo, hariho n'amarido y'igitare n'umwarimu wambaye ijiri y'umukara.

Ni intebe ebyiri zo ku ishuri zicarwaho n'abanyeshuri, zifite ibara ry'ubururu, aho ziri muri iyo nzu hateye irangi ry'umuhondo, hamwe haranashishutse kandi hariho aho bacagingira.

Ni abanyeshuri bo muri kaminuza bari kwiga, imbere yabo hakaba hari umwarimu wambaye ikanzu y'igitare, imbere y'uwo mwarimu hakaba hari agacupa k'amazi gatetse ku meza, ndetse na mudasobwa. Abanyeshuri baka bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi kandi icyumba bari kwigiramo k'ishuri kikaba giteye irangi ry'umuhondo n'igitare.

Ndabona abanyeshuri bicaye ku ntebe z'ubururu, bari mu ishuri risize irangi ry'umuhondo, umunyeshuri umwe yambaye umupira w'igitare undi yambaye ishati y'umutuku.

Ni abanyeshuri abakobwa n'abasore bashoje kaminuza, bakaba bambaye ingofero ndetse n'amakanzu agaragaza ko bashoje kwiga, bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku bamwe bakaba bambaye ingofero z'umukara, abandi bambaye iz'ubururu kandi bamwe barunamye abandi barareba imbere.

Ni abantu barenga cumi na batanu babonye satifikate, bahagaze mu ishuri risize ibara irangi ry'igitare.

Ndabona abanyeshuri bicaye ku ntebe bafite compiyuta, undi yarambuye ikayi, iruhande rwabo hari telefone, bari mu ishuri risize irangi ry'igitare, ku ruhande hari akuma gafite ibara ry'umutuku.

Ndabona intebe z'abanyeshuri zifite ibara ry'ubururu handitseho amagambo y'inyuguti e na a na o na ra inyuma yaho hari imbaho.

Ni intebe z'ishuri zifite ibara ry'ubururu, harimo abanyeshuri batatu umwe yambaye umupira w'igitare undi yambaye ishati ya oranje, iryo shuri rikaba risize irange ry'umuhondo.

Ni ishuri ririmo abanyeshuri bicaye, rifite amakaro hasi, bicaye ku ntebe z'icyatsi, bamwe bafite kompiyuta imbere yabo, ku meza hateretse uducupa tw'amazi ndetse n''umwarimu wumugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku wambaye n'agapfukawa k'ubururu uhagaze imbere yabo, hakaba hari n'amarido y'igitare.